Abanyeshuri bari muri laboratwari bafite ibikoresho bimwe na bimwe byifashishwa muri laboratwari, utu ni udutibe urabona ko bambaye udupfukamunwa, buri kimwe cyose kiri ku murongo, bamwe bambaye inifomu z'amashati, gusa abandi bambaye inifomo z'imipira iri hejuru y'amashati, baravanze abakobwa n'abahungu.